Umuhinzi uhagaze mu murima wambaye imyenda y'umweru, afite imashini yifashishwa mu kuvomerera, inyuma ye hari ishyamba ry'inzitane ry'ibiti byinshi.

Umuntu wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa n'igitambaro mu mutwe, ari kuvomerera n'amazi indabyo nyinshi, ziri ahantu hazitiwe n'ibyuma.

Abahinzi babiri bari mu gishanga cy'umuceri, bahetse imashini zifashishwa mu kuvomerera mu mugongo, bambaye udupfukamunwa n'ingofero mu mutwe, impande hari ibiti bikikije icyo gishanga.

Umusore wambaye ingofero, umupira n'ikabutura na bote, ahetse akamashini mu mugongo kifashishwa mu gutera imiti ibihingwa, ahagaze mu murima uteyemo amashu.

Umugabo wambaye ipantaro y'icyatsi n'umupira w'umutuku uhetse imashini yifashishwa mu gutera imiti, ahagaze mumurima uhinzemo amashu, imboga n'ibigori.

Umuhinzi wambaye agapfukamunwa isarubeti y'ubururu bwijimye, ga z'umutuku, afite imashini mu mugongo yifashishwa mu gutera imiti ibihingwa by'ibigori.

Abagabo bahagaze mu bwato bw'ibiti hari n'abandi bari mu mazi mo hagati bafite inzitiramibu mu ntoki bagiye kuroba amafi.

Ibyuzi bibiri by'amafi, impande hari umwana wicaye n'undi uri gutambuka, akikijwe n'amashyamba ndetse n'ibihingwa birimo, ibishyimbo n'inyubako.

Abagabo batatu bari mu muhanda bari kugenda bambaye umwe ishati y'umweru, undi y'ubururu n'amapantaro, imbere hari ibihingwa by'amoko atandukanye ndetse n'umusozi uhinzeho amashyamba.

Ikibaya kinini kirimo ibyuzi by'amafi, inzu yubakishije amatafari ahiye, amabati asa ubururu, hari umusozi uriho ibiti by'amoko atandukanye.

Umuhinzi uri guhinga afite isuka mu murima, uhinzemo umuceri mu gishanga kinini cyane, inyuma hari imisozi itandukanye, iteyeho amashyamba.

Umuhinzi wambaye umupira w'umukara, ahagaze mu murima ari gusarura ikawa zihiye, igiti gifite amababi y'icyatsi.

Abahinzi benshi bahagaze mu murima w'icyayi bari gusarura, bahetse mu mugongo udutebo ni two bari gushyiramo, inyuma hari umusozi uriho ibiti by'ishyamba.

Abahinzi bicaye kuri shitingi bari gutora imyaka, isoya n'ibishyimbo biri ku mufuka w'umweru n'umutuku, biteze ibitambaro mu mutwe.

Umugabo wambaye ingofero y'umukara, ikote n'ipantaro ahagaze mu murima munini w'icyayi ndetse hari n'umusozi uriho ishyamba ry'ibiti ry'inzitane.

Abahinzi bari mu kibuga kinini banikamo ibishyimbo, bafite imifuka isa umweruru mu ntoki, impande ishyamba ry'biti byinshi.

Umugore wambaye umupira w'umutuku witeze igitambaro mu mutwe, afite ibitebo bibiri n'ikindi mu ntoki ari gusarura icyayi gikikijwe n'ibiti.

Insina, imirima ihinnzemo umuceri, abantu bikoreye bavuye gusarura bambaye ibishura n'amashati.

Umurima munini cyane uhinzemo ibiti by'ikawa biteye ku murongo. Bifite amababi menshi asa icyatsi kijimye, hasi hasasije ibyatsi byumye.

Igiti cy'ikawa ndetse n'ubwatsi bw'amatungo, mu kibaya kinini impande hari amazu yo guturamo, urutoki ndetse, n'amashyamba ku musozi hejuru.

Umugore witeze igitambaro cy'umutuku, wambaye umupira w'umuhondo, ahagaze mu murima w'umuceri ari gusarura inyuma hari umusozi uriho ibiti byinshi.

Umugabo wambaye ingofero, ishati n'ipantaro uhetse mu mugongo umufuka munini w'umweru urimo ibintu, iruhande ibiti by'ikawa biriho imbuto.

Udukarito dushushanyijeho amatungo dusa icyatsi n'umutuku n'umweru n'agakombe gashushanyijeho inka.

Imiti y'amatungo iri ahantu hamwe, ipfunyitse mu dukombe, ahandi mu dukarito tw'amabara menshi, umutuku, umweru, icyatsi, hashushanyijeho inka.

Imiti y'ubwoko butandukanye iri mu icupa ry'icyuma. Iyindi iri mu dukarito tw'amabara atandukanye: umweru, ubururu, umuhondo, umukara duteretse ahantu hamwe.

Umugabo usutamye mu kibuga kirimo ibyatsi ari kuvuruganya, indabo ari gukamiramo ndetse n'inka ijishe y'umweru n'umukara.

Umugabo wambaye ishati n'ipantaro ndetse n'isaha ku kaboko, yunamye mu murima ari gutera igiti, hari ibyatsi byinshi ndetse hirya umurima w'ibigori.

Umuhinzi wunamye mu gishanga kinini gihinzamo umuceri uteze igitambaro, wambaye umupira akenyeye igitenge, ubona ari kubagara.

Abahinzi bane bahagaze mu murima bari gusarura, abagabo babiri n'abagore babiri, hari ibigori n'ibiti byinshi.

Umugabo wambaye agapfukamunwa k'ubururu n'umukara, umupira w'ubururu ,umweru n'umukara afite igiti cya voka mu ntoki.

Abahinzi benshi bahagaze mu murima bari gusarura ibigori, umugabo wambaye ishati n'ipantaro ndetse n'umugore wambaye ingofero y'umutuku, mu mupira akenyeye n'igitenge.

Umuhinzi wunamye mu murima w'ibirayi byinshi bihinze mu gishanga, hari imisozi iteganye iriho ibiti by'amoko atandukanye n'inyubako zituwemo.

Umurima munini uhinzemo ibigori, inyuma hari undi uhinzemo ibishyimbo ndetse n'indi irimo ibyatsi by'amatungo, inyuma hari ibiti by'amoko menshi atandukanye n'umuhanda.

Umurima munini cyane uhinzemo intoryi zisasijwe n'ibyatsi byumye, mu murima hasi hakikijwe n'ibiti by'amoko atandukanye.

Umugezi utemba, impande isuri, ubutaka n'imirima ihinzemo ibigori n'ibisheke, ibyatsi ku mpande hakikijwe nibiti byinshi.

umurima uhinzemo, isoya n'ibindi bimera by'ubwoko butandukanye ndetse hari ibiti by'amoko menshi n'inzu zo guturamo nyinshi.

Umuhanda munini wa kaburimbo, iruhande hakikijwe ibiti by'amoko atandukanye, umurima uhinzemo urutoki, ibigori ndetse n'amazu yo guturamo.

Amazu meshi yo guturamo yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati, hari imirima ihinzemo imyumbati ndetse n'insina.

Umurima munini uhinzemo ibigori ibyumye ndetse n'ibitaruma bitarasarurwa, harimo n'ibyatsi byinshi birandaranda hasi.

Umurima urimo ibimera bitandukanye, hahinzemo ipapayi, inzuzi, imboga ndetse n'uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye.

Umurima munini uhinzamo ibihingwa bitandukanye, ibitunguru, imboga, ndetse n'undi hateyemo ibigori hazitijwe n'ibiti by'imiravumba, n'ibindi by'amoko atandukanye.

Umuhanda hari n'igishanga, amazi, ikiyaga, ikirere gisa nabi, imisozi, ibiti...

Ikibaya kinini kirimo ibihingwa bitandukanye, n'umugore wambaye ibitenge by'umutuku n'ucyatsi, ahagaze mu murima uhinzemo ibigori bitarera.

Umusozi uriho ibiti by'amoko atandukanye, inzu zubatse ku murongo ndetse n'izindi zo guturamo, hakurya hari undi musozi uriho ibiti by'amashyamba.

Ishyamba rinini ry'inzitane rifite ubwoko bw'ibiti bitandukanye, rinyuramo akayira mo hagati ndetse n'inyubako yubakishije ibiti.

Umurima munini urimo byatsi by'amoko atandukanye, ibiti by'amoko atandukanye ubuhinzi bw'urutoki, ndetse n'inzu yo guturamo ku ruhande.

Ikiyaga, gifite amazi menshi, gikikijwe n'umurima urimo ibyatsi n'amoko y'ibiti menshi, hakurya imisozi nayo iriho ibyatsi byinshi.

Ubwoko bw'imbuto buri hamwe, amashu, karoti beterave, biri ku meza ariho igitambaro cy'icyatsi ndetse n'agapapuro ku ruhande kandinditseho igiciro cyabyo.

Umuhinzi wambaye jere ya oranje umupira w'icyatsi n'ingofero'umukara ahahagaze mu murima urimo ibiti bifite amashami menshi, ndetse n'imbuto za pome zisa umutuku.

Umuhinzi w'umugabo wambaye umupira w'umweru n'imirongo y'imikara, afite amatunda menshi mu ntoki. Ahagaze mu murima uhinzemo amatunda menshi.

Igishanga kinini gihinzemo ibihingwa ku kumurongo ndetse n'umuhinzi wunamye ari guhinga akikijwe n'ishyamba ry'ibiti birebire.

Umugore wambaye ibitenge n'agapfukamunwa, afite inanasi ebyiri mu ntoki, inyuma ye hari umugabo uri gutambuka ufite umupira ku rutugu ndetse n'umwana uri inyuma ye.

Igishanga kinini kirimo ibihingwa bitandukanye ndetse n'abantu bari kuvomerera ibihingwa benshi cyane. Hakurya hari umusozi uriho ishyamba.

Igishanga kirimo ibihingwa binyuranye, bari kuvomerera, bakoresheje imipira, harimo amashu, ibigori, imboga ndetse n'ibiti bikikije imirima hafi.

Umusozi muremure uriho ibiti byinshi bitandukanye hasi mu gishanga hari imashini iri kuvomerera imbuto zitandukanye.

Umuhinzi wambaye ikanzu, afite umupira uyobora amazi mu murima ari kuvomerera. Mu murima hahinzemo amashu, harimo n'umurasire w'izuba ndetse inyuma ishyamba ry'inzitane rihakikije.

Umurima munini cyane w'ubuhinzi bwa dodo zihinze ku murongo, harimo imashini zifashisha mu ukuvomerera, ziri gutanga amazi, inyuma hari ishyamba ry'ibiti byinshi.

Umugabo wambaye agapfukamunwa k'umutuku wijimye, ingofero, ishati y'ubururu bwerurutse, ipantaro y'umukara ari mu kibaya kinini ari kuvomerera akoresheje imipira ibihingwa mu murima.

Umugore witeze igitambaro mu mutwe, umupira w'umweru afite indobo mu ntoki irimo amazi ari kuvomera imboga mu murima, inyuma ye hari igiti cya avoka ndetse n'urutoke.

Umuturage uri mu gishanga mu murima uhinze ari kuvomerera akoresheje umupira, hari urutoki runini ndetse n'ishyamba rinini.

Umurima munini urimo ubuhinzi bw'inkeri zihinze kumurongo ndetse n'imashini ijyana amazi mu murima, yifashishwa mu kuvomerera.

Umugabo wambaye ingofero n'ipantaro n'umupira, ahagaze mu murima ari kuvomerera ibihingwa, n'amazi ndetse ku ruhande hari ibiti by'amoko atandukanye n'igiti cya voka.

Umuhinzi w'umusaza ufite indobo irimo amazi, ari kuvomerera imboga mu gishanga kirimo ibyatsi byinshi n'ibiti.

Umugore ukenyeye igitenge, yambaye umupira w'umuhondo n'ingofero y'umutuku, ahagaze mu murima uhinzemo amashu, ari kuvomerera, akoresheje imipira izamura amazi, inyuma ye hahagaze abandi bantu ndetse hari n'urutoki.

Umugore wambaye ijipo n'ikote ry'umweru afite umupira wifashisha mu kuzamura amazi ku musozi ari kuvomerera, impande hari imirasire y'izuba.

Imisozi ibiri iteganye iriho amashyamba menshi y'inzitane hagati hanyuramo umugezi munini cyane ndetse n'ikibaya kirimo ibihingwa byinshi ku musozi umwe hanyura umuhanda.

Ikiyaga kinini gikikijwe n'imisozi miremire iriho ibiti by'amoko menshi atandukanye n'amasambu yo guhingamo.

Imisozi miremire cyane, ubona ko ari ibirunga, hari ibiti by'amashyamba n'ahandi mu gishanga hasi, hari inyubako yubakishije amatafari isakaje amabati, hari ibiti by'amoko atandukanye.

Igishanga kinini gihinzemo ibigori kirimo abantu babiri bikoreye n'undi umwe uri gusarura, hari umusozi uriho ibiti by'amoko atandukanye n'inzu zo guturamo.

Imisozi myinshi iriho imirima, ndetse n'amashyamba, n'ibiti by'amoko atandukanye inzu zo guturamo ndetse n'ikirere gisa neza gikeye.

Igishanga kirimo ibihingwa bitandukanye n'ibiti by'amoko menshi, urutoki ku ruhande n'u ubwatsi bw'amatungo, hejuru hari umusozi.

Imisozi miremire iteranye, ikirere gikeye, insina nyinshi, amashyamba, ibiti by'ubwoko butandukanye, ingo zo guturamo n'umuhanda uca hagati.

Imisozi miremire iteganye myinshi iriho amashyamba y'inzitane ndetse n'amazu atandukanye yo guturamo.

Imisozi myinshi kandi miremire iteganye, iriho ibyatsi n'amoko y'ibiti atandukanye. Hari ikirere gikeye ndetse n'inzu zo guturamo.

Imisozi miremire iriho amazu menshi yo guturamo, hari n'umuhanda mu nini unyura hagati yawo, ndetse n'ibiti by'amoko menshi atandukanye.

Ubworozi bwa kijyambere bw'inka nyinshi zororewe hamwe, ziri kurya ibyatsi imbere, ziri ahantu hubakishijeze ibyuma hasakaje amabati.

Umushumba wambaye ishati y'umweru afite terefone mu ntoki ari kugaburira inka ziri mu kiraro ibyatsi byumye, hubakishije ibyuma ndetse hasakaje amabati.

Ubworozi bw'inkoko nyinshi ariko n'imishwi mitoya, ziri mu cyumba kimwe n'uburiro busa umutuku n'umweru, ndetse n'ameza ku ruhande.

Ubworozi bw'inka ,ziri ahantu hasakaje amabati n'ibyuma bihazengurutse ,abantu bari kureba inka ndetse n'umusozi uriho ibiti.

Urwuri rw'inka, harimo inka nyinshi z'umukara n'ibihogo, umuntu uri gukama n'undi ufite icyatsi mu ntoki, inyuma inyubako n'ibiti.

Ihene nyinshi ziri hamwe, isa umweru, umukara n'ibihogo, zihagaze ahantu mu kibuga hazitijwe n'ibiti by'imbaho, zipfumuye amatwi.

Ihene nyinshi zisa umweru n'ibihogo ziri mu byatsi byinshi, hari umuntu uziragiye wambaye umupira. Hari n'ibiti by'amoko menshi atandukanye.

Mu bworozi bw'amatungo magufi inkokokazi ndetse n'isake bisa ibihogo n'umukara, biri ahantu hubakiye nk'imbaho z'ibiti n'uburiro bwazo busa umweru n'umutuku.

Ishyo ry'inka ziri mu rwuri ziri kurisha ubwatsi, impande hari ibiti byinshi n'umushumba wambaye umupira n'ipantaro n'ikirere.

Ishyo ry'inka z'inyambo ziri ahantu hamwe mu ruzitiro rw'ibiti, impande hahagaze abagabo bambaye ibisarubeti bisa ubururu n'abandi amataburiya y'umweru.

Umushumba ugiye gukama inka yambaye imyenda y'ubururu n'undi umwe uhagaze afashe ku nka yambaye ishati y'icyatsi n'ipantaro y'umukara, inkweto z'ubururu n'umweru, yambaye n'ingofero.

Ubworozi bw'inkoko, isake n'inkoko kazi ziri ahantu hamwe hubakishije amatafari ahiye, zifite uburiro busa umutuku n'umweru.

Ihene nyinshi ziri kurisha ubwatsi, hari indabyo n'amababi y'ibiti byinshi bitandukanye, inturusu, abantu bahagaze abagabo, uwambaye ingofero umipira w'umukara, ishati y'umweru.

Ubworozi bw'inkoko nyinshi, ziri ahantu hubakiye na supanete, ahandi ni amatafari ahiye, bari kuzigaburira mu tuntu dusa umutuku n'umweru.

Imifuka myinshi isa umweruru n'umuhondo iri mucmba ikusanyirijwe hamwe, hahagazemo umugabo wambaye isarubeti, afite n'igiti mu ntoki cy'umweyo.

Imifuka myinshi ipakiyemo ibintu, isa umweruru, uturongo tw'icyatsi, umuhondo ndetse n'umutuku irimo umuceri.

Abantu benshi bahagaze imbere y'ibigori byumye birambitse hasi ndetse impande hari ibiti n'inzu zo guturamo zubakishije amabati.

Abaganga bambaye impuzankano, udupfukamunwa ndetse imbere yabo hari ameza ariho igitambaro gisa ubururu bari gusuzuma imbwa.

Ubworozi bw'inka ziri ahantu hamwe hazengurukijwe ibiti ndetse n'abaganga bazo bambaye amataburiya y'umweru ku ruhande.

Umuvuzi w'amatungo ari gutera inka imiti yambaye ga zisa ubururu n'itaburiya y'umweru ,ahantu hubakishije ibiti n'undi umuhagaze inyuma.

Abasore babiri bambaye amashati y'ubururu, inkweto z'umuhondo, hari ibitambaro by'icyatsi, imbwa iryamye ku gitanda.

Umuvuzi w'amatungo wambaye igisarubeti cy'ubururu n'agapfukamunwa, agiye gutera urushinge inka isa umweru n'umukara, inyuma hari umushumba uyifashe ndetse hubakishije ibiti.

Ingurube z'ishyamba ebyiri zihagaze mu kibara kinini kirimo ibyatsi birebire n'igiti cy'amashami menshi, ziri kugenda.

Imbwa yasohoye ururimi ikanuye amaso n'amazuru manini inyuma yayo harazitiye hari ibiti byinshi by'amashami.

Isha ifite amahembe maremare, isa ibihogo, harimo n'ibara ry'umweru, ihagaze ahantu mu kibara, hari ibyatsi byinshi, ndetse n'igiti kiri inyuma yayo.

Ikibuga kirimo inyamaswa nyinshi zitandukanye cyane cyane intare, hazengurukijwe insinga, ibiti bifite amashami menshi y'icyatsi.

Inka enye zibyagiye mu gisambu kirimo ibyatsi iy'umukara ndetse n'umweru, izitije imiyenzi, inyuma hari ikibuga.

Inyamaswa z'ubwoko butandukanye, ziri hamwe mu gisambu cy'ibyatsi byinshi, harimo inzovu, impara, ingwe, isha, intare ndetse n'ingurube y'ishyamba, inyuma hari ibiti ndetse n'inyoni mu kirere, ziri kuguruka.

Inkende enye ziri mukibuga gikikijwe n'ubwoko bw'ibiti byinshi ndetse n'inyubako, kuruhande yubakishije amatafari ahiye.

Inkende eshatu ziri mu kibuga kinini, hari inyubako izengurutswe n'ibiti byinshi by'amoko atandukanye, hari akabuga n'ahariri ibyatsi.